Abantu bicaye bakikije ameza, imbere yabo ari amasahani n'ibikombe bifashisha mu kunywa icyayi, abenshi bambaye amakaruvati ndetse bicaye mu cyumba kirimo amarangi y'umweru, amarido y'umukara, bakaba bicaye ku ntebe z'icyatsi.

Umusore wishimye uri guseka cyane ufite mu kanwa heza h'umukara, amenyo y'umweru, ubwanwa bukeya hejuru, hasi budahari, ufite amazuru manini, ugutwi kumwe n'ibiganza bibiri, afite akantu mu kanwa.

Umugabo ushinzwe umutekano w'inyubako ifite amarangi y'umuhondo, isakage amabati y'umutuku, ifite inzugi ziteye irangi ry'umweru, imbere yaho haparitse imodoka n'abantu bari kugenda n'amaguru, ndetse n'ibyapa bigaragaza icyo iyo nyubako ikorerwamo biri imbere yayo.

Inyubako y'ibitaro irimo amakaro, ifite parafo y'umweru iteye amarange y'umweru n'inzugi z'ibiti, imanitsemo amafoto ndetse n'ibyapa bigaragaza aho abantu baje kwivuza bisuzumishiriza bahurira na muganga.

Umukobwa muto wirabura wicaye hasi mu nyubako ifite amarangi y'umweru, amatafari, wambaye umupira, ipantaro y'umukara, inkweto ziririmo umweru, urambuye akaboko n'akaguru, uiri mu myitozo ngororamubiri.

Abagabo babiri umuzungu n'umwirabura, umwe yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara, undi yambaye ingofero y'umukara ndetse umwe aryamye ku gatanda, inyuma yabo hari imidari, bari mu nyubako yubakishijwe amatafari harimo n'ibindi bikoresho bakoresha mu myitozo ngororamubiri.